Umuhanda bazitiye bashyiraho icyapa cya sitopu ukikijwe n'abantu, hagati yabo harimo umugabo usa nkaho hari ibyo ari kubabwira, inyuma yabo hari imodoka ya kwasiteri, inyuma y'imodoka hari inzu iri kugaragara igisenge, mu ruhande rwo hepfo hari indi nzu ikikijwe n'ibiti birebire.

Ni abantu benshi bigaragara ko bakoraga umuhanda wari warajemo ibintibinogo, inyuma yabo hari ibiti bya avoka n'amazu abiri, hirya y'ayo mazu hari insina, hirya y'izo nsina hakurya hari umusozi usa nk'aho ari muremure urimo ibiti birebire.

Ni abakinnyi bagaragara bane mu kibuga, bari gukinira umupira mu kibuga kitarimo ibyatsi, hirya y'icyo kibuga hari ibyatsi byinshi, hicayemo umuntu uri kureba umupira, hakurya y'ibyo byatsi hari ibiti birebire bikikijwe n'igipangu.

Umumotari utwaye umuntu uhetse baga ku muhanda wa kaburimbo, impande z'umuhanda hari amapoto y'umuriro menshi, hepfo y'uwo muhanda hari ishyamba ry'ibiti by'inurusi, hirya y'iryo shyamba hari amazu menshi y'abaturage.

Igice gito cy'umuhanda wa kaburimbo, mu ruhande rw'iburyo hari jaride, hirya y'iyo jaride hari ikibuga kirimo imodoka nyinshi, hahagazemo n'abantu, hirya y'icyo kibuga, hari ibiti byinshi.